Inzu nini y'ubucuruzi irimo abantu batatu, yaba umugore ndetse n'umugabo hakaba hari n'akana gatoya umugore akaba asa n'uri gupima ibintu, akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse bakaba bacururizamo amata ndetse n'ibyo banywesha n'amaji.

Izi ni zimwe mu mbuto; harimo imbuto z'umuhondo, imbuto z'umukara, imbuto z'icyatsi, imbuto z'umutuku, ifasha muri bimwe bakora, bateka, bakora porodakiti zisanzwe.